Inzu icururizwamo inzoga zigiye zitandukanye, ubonako ari akabari imbere mo muri kontwari hakaba hari umusore uri kureba kuri izo nzoga, akaba ahagaze imbere yiwe inyuma ya contwari hakaba hari intebe zihateretse zirezire.

Icyapa cyamamaza kiri kumuhanda cyamamaza virunga inzoga, akaba imbere yaho hari n'inzu ubonako icururizwamo akabare hejuru y'ako kabare kakaba handitsweho ko kitwa baribeki hawuze, hakaba hariho n'amacupa yandi y'inzoga.

Umudamu wicaye ku meza ahantu ubona ko ari ahantu ho gusohokera, inyuma hakaba hari ibiti n'ahantu ubona ko bakirira abantu baje babagana.

Abantu bagiye batandukanye harimo abakobwa n'abahungu ubona bishimye basohotse bari mu kabari, bari kunywa ibinyobwa bigiye bitandunye harimo byeri n'inzoga zikomeye zigiye zitandukanye.

Urutonde rw'ibinyobwa bicuruzwa harimo ibinyobwa bisembuye ni bidasembuye, ibiciro byabo biriho ,harimo amusiteri(Amstel mart),henikeni(Heineken),mutsingi(mitzig),sikoru(skol),lager, Virunga, panashi(panach),tasika(tusker),siminofu(Smirnoff),ginesi(Guinness),sinap(snap),gwarana(guarrana). nibindi bidasembuye harimo amazi ya minero wota (mineral water),soda.

Akabare karimo abantu bacuruza inzoga zigiye zitandukanye, hakaba harimo umuntu uri muri kontwari hakaba hanarimo amatara ari mu mabara y'ubururu, ubona ko bacuruza inzoga zitandukanye.

Umuntu wicaye kuri kontwari imbere yiwe hari ikirahure kirimo byeri n'icupa imbere yiwe hakaba hari abantu batanga serivise abo bantu bakaba bari kureba umupira wa ruhago hariho amatelevisiyo ageze kuri abiri.

Abantu benshi bahagaze imbere y'ameza ariho inzoga n'ibindi biyobwa, akaba ari ahantu habereye ibirori cyangw aukaba ubona ko bizihiwe, hasi hakab hagiye hatakara ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Urupapuro rufasha abantu gusikana kugira ngo bishyure cyangwa se babone urutonde rw'ibiribwa kuri resitora yitwa comaride, bikagaragara yuko umuntu yifashisha mu kugira ngo amenye amakuru arambuye kuri ibintu batanga.

Ahantu bakirira abantu ubonako hari inzu yubakishijwe ibiti ku gisenge, ubonako hari amameza n'intebe abantu bashobora kwicara bari kuganira, barimo no kurya.

Inzu yubakishije ibiti kugisenge hariho namameza nintebe ubonako Ari ahantu abantu bicara basohotse cyangwa se resitora ahantu biyakirira.

Umuntu uhagaze imbere ya kontwari ubona ko ari gusaba ko bamuha ibintu, imbere yiwe hari amacupa abiri ya byeri, imbere yiwe kandi hakaba hari umuntu useriva, inyuma hakaba hari amacupa agiye atandukanye y'inzoga.

Akabari karimo ameza maremare akoze mu mbaho, inyuma y'ameza hariho ibirahuri n'udushashi turimo inzoga zitandukanye ziri mu macupa, hariho kandi televiziyo iri hejuru ku rukuta rw'imbere, yerekana amashusho, ibikoresho bitandukanye byo mu kabari biri ku meza, harimo imashini yo kwakira mafaranga n'utundi dukoresho duto.

Abantu bicaye ku meza iriho ibirango bya mitsingi iteretseho inzoga zigiye zitandukanye, zirimo sikolo, mitsingi, pirimusi, ubona ko ari abantu basohotse bishimye bari kunywa inzoga.

Urutonde rw'ibinyobwa ushobora gufata mu gihe cya mugitondo muri resitora byitwa bivizi iherereye muri sencari baga . Ikagaragaza ibintu bigiye bitandukanye birimo amakawa , ibyayi n'ibindi binyobwa , hasi hakaba handitseho ko iherereye muri Nyarutarama i Kigali.

Umukobwa uri guseka ufite imashini y'ikoranabuhanga yo kwishyuraho akaba afite mu kandi kaboko ikarita yo kwishyura ubona ko ari kwamamaza ikigo k'ikoranabuhanga cyo kwishyura kitwa pesa.

Akabari karimo ameza maremare akoze mu mbaho ateguyeho ishurwe iruhande hakaba hari akarahure karimo umuvinyo, hakaba hariho kandi amavide yandi arimo inzoga za byeri n'andi macupa y'inzoga hakaba kandi hariho n'akapa kagaragaza ko ushobora kwishyura ukoresheje ikigo k'itumanaho cya MTN.

Ikirahure kirimo byeri ubona ko ikonje, hakaba hari n'akabati karimo amacupa y'nizoga agiye atandukanye, ubona ko ari akabare gafite inzoga z'ubwoko bwinshi.

Umusore uri mu kabari ufasha abantu mu gutunganya ibinyobwa ubona ko ari gusuka ku nzoga tugure inzoga igiye ivanze izo bita kokitere.

Abantu babiri bicaye ku ntebe ikoze mu rubaho ubona ko bitegereza umupira wa ruhago uri gukinwa, ubona ko bari ahantu hashobora kuba ari abantu bahiyakirira, bishobora kuba ari nk'akabari.

Akabari gacuruza inzoga zigiye zitandukanye kontwari ikaba ikozwe mu mbaho, ikaba iri kwamamaza ikinyobwa cya henikeni iruhande hakaba hari n'ameza n'intebe abantu bicaraho.

Ikibaho cyanditseho ibintu bigiye bicuruzwa mugihe gitandukanye bitewe n'iminsi bigaragara yuko hariho na poromosiyo iyo uguze ikintu kimwe bakongera ikindi kuminsi igiye itandukanye.

ahantu hasa nkaho ari akabare cyangwa hacururizwa ibinyobwa bisembuye n'ibigasembuye hari akameza imbere haragaragara amacupa menshi y'ibinyobwa atandukanye ashyizwe mubyuma byabugenewe harimo n'ibikoresho byo mugikoni cyangwa ibyo gutegura ibinyobwa byose bigaragaza ahantu hateguriwe abakiriya

Urutonde rw'ibinyobwa byo mu kabari kitwa shutazi bigaragaza ubwoko bw'ibinyobwa bagiye bafite bacuruza bigiye bitandukanye.

Urutonde rw'ibinyobwa bicuruzwa mu kabari kitwa shutazi, akabariho nibiciro bigiye bitandukanye byibyo byibinyobwa, ibyo binyobwa bikaba biri mu bwoko bwa ma byeri, imivinyo bigiye bitandukanye

Imashini yo kwishyuriraho y'ikoranabuhanga ifasha abantu kwishyura bakoresheje ikarita, ukabona ko ari umuntu uri kwishyuza ikarita ya VIZA mu kwishyura.

Ubwoko bw'inzoga bugiye butandukanye zimwe ziri mu ma kaziye izindi ziri mu kabati ubona ko ari nko mu kabari cyangwa baranguza.

Umuhanda w'amabuye uri ahantu hari icyapa cy'akabari kitwa piyazi ranje hari n'amamodoka ahagaze hanze ubona ko ari hanze y'akabari.

Inzoga ari mu icupa ryitwa gorudoni iri kumwe n'ikirahure n'icupa rya byeri hari n'abantu babairi bafashe telefone iruhande hakaba hari icyapa kigarahaza ibintu bacuruza bigiye btandukanye.

Abantu bari mu kabyiniriro cyangwa ahantu hahurira abantu benshi harimo urubyiruko rureba umukino wa ruhago urikugaragara kuri ekara nini imbere yabo abantu bagaragara bafite ibinyobwa bari kwishimisha no kureba uwo mukino hamwe hari n'abakozi bafite imyambaro ibereye batanze serivisi.

Urutonde rw'ibinyobwa bicuruzwa bisembuye mu kabari kitwa shutazi, uru rutonde rukaba ruriho n'ibiciro bigiye bitandukanye by'ibyo bacuruza muri ako kabari.

Umugabo uhagaze muri kontwari uri gutanga serivisi mu kabari, ubonako gacuruza inzoga zigiye zitandukanye, imbere y'iwe hakaba hari imeza ndende, iruhande rw'iyo meza hakaba hari intebe abantu bicaraho.

Icyapa cyanditseho amusiteri ubona ko aho hantu bahita ruwasi rawonge bishoboka ko ari akabari cyangwa akabyiniro gatunganya ibiryo kagacuruza n'inzoga, kari ku muhanda hakaba hari n'umuntu uri gucaho ufite igare wambaye ishati n'ipantaro kandi hakaba hari n'abandi bantu babibiri bahagaze.

Imeza itunganyije iriho ibirahure bigiye bitandukanye byo kunyweramo imivinyo, n'urutonde rw'ibinyobwa n'ibiribwa bwanditseho inoserino.

Abagabo babiri n'umudamu ubona ko bakomoka muri Aziya bicaye bari kurya ku meza hakaba hariho inzoga ya byeri n'amasahani ariho ibiryo hakaba hari n'undi wirabura uhagaze ubona ko ari mu kabari cyanwa se muri resitora.

Inzu y'ubucuruzi ijyanye n'akabari cyangwa akabyiniriro ubona ko harimo inzoga zigiye zitandukanye n'ibyapa bigaragaza ubwiza kugira ngo abantu baryoherwe no kubona amashusho agiye atandukanye.

Ahantu hasa nk'aho hari akabari cyangwa hacururizwa ibinyobwa bisembuye, cyangwa se depo, kuko harimo amakaziye agiye atandukanye, n'akabati karimo inzoga zigiye zitandukanye.

Icyapa cyamamaza inzoga yitwa virunga mariti hejuru y'icyo cyapa hakaba handitseho izina ry'ako kabari kitwa werazi bare, kuri uwo muhanda ukabona yuko ari kuri kaburimbo, hirya hakaba hari abamotari bahagaze n'abandi bantu.

Ahantu hari intebe abantu bicaraho ubona ko ari akabari cyangwa resitora abantu bicara batuma ibintu bakeneye, kandi ubona ari ahantu hasa neza hari ibara ry'umweru kandi usanga hari inzoga zigiye zitandukanye.

Abantu bicaye ku ntebe ahantu hari ameza ubona yuko ari babiri, umuntu umwe uhagaze uri kubaseriva ubona ko ari ahantu abantu bicara basohokeye hari n'akabare, imbere hakaba hari n'ikirahure kirimo byeri n'amarinete.

Icyapa cya emutiyeni kiri mu ibara ry'umuhondo cyanditseho kode yo kwishyurirwaho, hanyuma munsi hakaba hari icyapa cy'umutuku cya eyateri na cyo kiriho kode yo kwishyuriraho, n'icupa rya pirimusi hamwe n'ikirahure kirimo inzoga, hamwe n'umugore uri inyuma, na firigo.

Akabati gateretseho ibyansi hejuru, iruhande rw'ibyo byansi hakaba hari ifoto y'inka, munsi y'ako kabati hakaba hari uducupa tw'amazi twegeranye, n'akamvilope katagaragaza ikintu kirimo.

Akabati gateretseho ibinyobwa bigiye bitandukanye biri mu moko y'amaji, amata n'amazi n'amafanta n'agakarito gateretse ku cyiciro cya gatatu, hakaba hari n'akameza gateretseho indobo irimo amandazi n'amacapati ku yindi ndobo.

Iduka ricuruza ibintu bijyanye n'amata ryitwa Rayal Fresh Milk Product usangamo ibintu bigiye bitandukanye, birimo amayawurute amata n'ibindi byose bikomoka ku mata.

Akabati k'ubururu gateretseho ibintu bigiye bitandukanye ku byiciro bigiye bitandukanye hejuru hakaba hariho terimusi y'icyuma indi ubona ikozwe muri purasitike n'agasanduku gashobora kuba karimo sambusa, ikiciro gikurikiyeho kirimo amabase ikindi gikurikiyeho kirimo amasahani iruhande hariho na firigo.

Amacupa akoze mu byuma bibka amata ubona ko ari ahantu hacururizwa amata, ubona ko ari ibicupa bigeze kuri bitandatu ndetse ahantu hamwe.

Isahane isa umutuku n'umweru, iriho irindazi n'agatambaro k'isuku kari kugitambaro kiriho amabara agiye atandukanye, hamwe n'akandi kantu gasa iroze.

Imeza y'urubaho iteretseho isahani y'ubururu ikaba inateguyeho sambusa zikoze mu nyama ubona ko ziteguwe kandi imwe ubona ko ishunnyeho.

Inzu y'ubucuruzi iururizwamo ibinyobwa by'Inyange harimo amaji, amazi, amata na firigo ubonako ari ahantu hogucururizwa.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye by'ibinyobwa birimo ama ji y'inyange, amazi ya Nile na inaji ya maliti, biri ku kabati ubona ko ari ahantu hari ibicuruzwa.

Ipikipiki ihagaze hanze imbere mo hakaba hari igare, n'ahantu hari amazi yamenetse ku makaro hanze hakaba hari abantu bari ku magare n'undi uri hirya kure ufite ipikipiki na we.

Indobo ebyiri imwe igaragara yuko irimo ibintu bijyanye n'amandazi ikaba iri ahantu, ahantu ubona ko hacururizwa bijyanye n'ibiribwa umuryango ukaba usa ubururu winjira.

Umukobwa uhagaze ubonako Ari gufata ikintu iruhande hakaba hari indobo zirimo ibiryo birimo amandazi nibindi byo kurya, iruhande hakaba hari firigo n'icyuma cy'imashini gituma amata aguma akonje.

Iduka ry'ubucuruzi ricuruza ibintu bigiye bitandukanye birimo amaji, ama enaji, ibiryo birimo gozete n'amandazi n'amasambusa, ikanacuruza n'ibintu bijyanye n'amata. Ubonako hariho n'utubido tw'amata, umuntu ufashe akabido ari kugahereza umuntu uri imbere ubonako ari umukiriya.

Abantu batatu bariho umudamu bahereza igikombe kirimo amata umuntu umwe ahagaze ariwe uri kuyamuha undi yambaye ingofero akaba ari kureba hasi.

Umudamu wambaye akantu gasa umweru, uhagaze imbere y'uducupa turimo yahurute zigiye zitandukanye, ziri mu bwoko butandukanye imwe isa iroze ind isa umweru, ubona ko ari ahantu bacuruza ibintu biva ku mata.

Inzu y'ubucuruzi icuruza amata yitwa Mukamira ubona ko hari imashini rutura itunganya amata igatuma aguma akonje kugira atangirika iruhande hakaba hari umudamu wicaye ku bintu bisa n'umweru hanze hakaba hari imodoka iparitse.

Umudamu witandiriye igitambaro gisa icyatsi n'umutuku, n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umutuku ufite ijagi irimo amata, iruhande rwe hakaba hari imeza iteretseho ijagi irimo ubusa, ubona ko bacuruza serivise zijyanye n'amata zitwa ''nyanza milk industries''.

Abantu bafite ibikombe by'amata binini, ubona ko bari kubikozanyaho, ubona ko ari ahantu hacururizwa amata, hakaba hari n'isahani iriho umugati.

Abantu babiri umwe yicaye undi uhagaze ubona ko imbere yabo ari capati n'ibikombe ubona ko bari gufungura, inyuma yiwe hakaba hari undi muntu uhagaze ariko ubona ko ari kureba inyuma.

Umugabo ushyira amata mu gikoresho kinini cya rutura kimeze nk'ikigega gikoreshwa mu kubika amata kugirango ahore akonje cyangwa atunganye. Byerekana igikorwa cyo gukusanya cyangwa gutunganya amata.

Amacupa menshi akozwe mu cyuma ubona ko abikwamo amata kugira ngo atangirika biri ahantu hamwe ubonako bifunze biri ahantuhakorerwa ibintu bijyanye n'amata.

Umudamu wambaye akagafero hamwe n'ikanzu y'ubururu afashe ibido isa umuhondo, iruhande rwe hakaba hateretsemo amateremusi ubona ko ari ahantu bacururiza ibintu bijyanye n'ibyayi cyangwa amata.

Umuntu uri gusuka amata mu kintu kibika kikanatunganya amata cyanditseho inyange miriki zone, ubona ko ari ahantu bacururiza ibinyobwa bigiye bitandukanye by'ikigo cya Inyange.

Ibiryo bizwi nka sambusa byateguwe neza kandi bipakiye mu buryo bwiza, ziri mu ishusho ya mpande eshatu, zifite ibara ry'umuhondo kubera ko zihiye neza. Ziteguye neza kandi zikunze gukoreshwa mu mafunguro yoroheje cyangwa mu birori.

Umukobwa wambaye ikabutura y'iroze n'igikapu n'umupira w'umweru n'inkweto za siporo ubona ko ari ahantu hacururizwa ibintu bijyanye n'amata.

Ibinyobwa bigiye bitandukanye, ubonako ari ibcuruzwa bikomoka ku mata birimo ikivuguto, yawurute, amata ubona ko ari inzu ikoreramo ibintu bicuruzwa biva mu nka.

Imeza ndende iteretseho ibinyobwa by'amata bigiye bitandukanye bikorwa n'uruganda rutunganya ibikomoka ku mata rwa mukamira iruhande hari umuntu ubona ko ari umudamu wambaye umupira w'ubururu.

Icyuma kibika amata mu bukonje cya kigo cya inyange hamwe n'amacupa yamazi n'utundi tubido turimo ibintu bijyanye n'amata n'amaji ubona ko ari ahantu hacururiza ibinyobwa by'inyange.

Icyuma cya rutura kikoreshwa mu gutunganya amata no gutuma agumana ubukonje ntiyangirike, kikaba kiri mu kazu ubona ko gacururizwamo amata, hakaba hari akabati gateretsemo amabido abiri y'umweru.

Icyapa cy'ubucuruzi k'ikigo gicuruza amata Nyanza miriki indusitiri kigaragaza yuko bacuruza ibintu ibintu bigiye bitandukanye birimo amata y'ikivuguto, yawurute n'andi mata asanzwe kigaragaza yuko ubwo bucuruzi bukorerwa aho.

Akajerekani karimo amata gafunze gateretse ahantu hakaba hari umuntu uhagaze iruhande rwayo wambaye ipantaro y'ubururu.

Amajerekani y'amazi yajibu hamwe na firigo irimo igikombe hamwe n'umuryango usa ubururu bigaragara yuko bahacururiza amazi.

Umudamu wicaye ku ntebe ahantu ubona ko bacuruza amata n'amandazi n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye, inyuma hariho ikigega cy'amata gicuruza amata.

Abantu batatu harimo abahungu babiri n'umukobwa umwe, umuhungu umwe yambaye umupira w'umutuku, umuhungu wundi yambaye umukara, n'umukobwa yambaye umutuku, bakaba bafite mu ntoki ibinyobwa byitwa yawurute, bikaba ari ibintu bikomoka ku mata, ubona ko babicuruza cyangwa ba byamamaza.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibinyobwa bya inyange rukanacuruza amata bita miliki zone, harimo ama furigo hamwe n'utujerekani turimo ibintu bigiye bitandukanye

Umudamu wicaye ku ntebe iruhande rwe hakaba hari imeza, iriho igtambaro kiriho amabara atandukanye iruhande rwe hakaba hari intebe ukabona ko yicaye ahantu hacururizwa ibinyobwa bigiye bitandukanye, birimo amaji n'amazi.

Umusore uhagaze wambaye ishati y'umukara n'ipantaro ya giri, uri ahantu hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye nk'amata n'amaji n'amazi, hari na firigo n'icyuma gituma amata aguma akonje.

Akazu k'ubucuruzi k'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni gasa umuhondo hari abantu ubona ko bari gushaka serivse zigiye zitandukanye hari umukozi , uri kugenda abafasha muri serivise bagiye bakeneye.

Ahantu hatangirwa serivise zikigo cyitumanaho cya MTM ubona hari abakozi bagiye batandukanye bicyo kigo, bari gufasha abantu muri serivise zitandukanye zikoranabuhanga rikoreshwa na telefone

Akazu k'ubucuruzi k'ikigo cyitumanaho cya MTN gasa umuhondo, kari ku muhanda wa ka ji ijana na mirongo icyenda na kabiri, ubona ko ari ak'ubucuruzi ariko gafunze.

Icyapa cy'ikigo cy'ubucuruzi cya emutiyeni (MTN) kigaragaza nimero y'ubucuruzi bishyuriraho, kode ya 635626 kandi ko badakata amafanga yo bishyura.

Akazu k'ubucuruzi k'ikigo k'itumanaho cya emutiyene imbere yako hahagaze abantu ubona ko bashaka servise, aho hantu bazitanga ubona ko umwe yambaye umupira w'umutuku undi yambye ishati y'umweru n'undi mu ibara risa umuhondo rya girinsi.

Ahantu hasa mu mabara y'umutuku, n'umweru ubona ko hakorerwa ikigo cy'itumanaho cyitwa eyateri, hakaba hari n'akapa kamamaza kariho abakobwa babiri, ubona ko bizihiwe.

Umugabo wambaye akajire k'umuhondo hamwe n'agapfukamunwa k'umukara, wicaye mu kazu k'umuhondo, k'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene, iruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye ishati, na we wambaye agapfukamunwa n'ingofero, ubona uri gushaka ko bamuha serivise.

Icyapa cya momo peyi, cya kampani ya emutiyeni, kigaragaza ko iyo wishyuye udakatwa, munsi hakaba harimo n'icyapa cya viza, ko yemewe gukoreshwa, aho ubona ko ari ahantu ho kwishyurira.

Abakobwa batatu ubona ko bishimye bari guseka, babiri bambaye imipira y'umuhondo n'undi wambaye uw'ubururu w'ikigo k'itumanaho cya emutiyene, inyuma hari imitaka ubona ko ari ahantu hari kubera imurikagurisha cyangwa se ubucuruzi bugiye butandukanye.

Abakobwa babiri bambaye imipira y'umuhondo y'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni ubona ko bari mukazi ahantu bakorera, byanditse inyuma ko batanda n'izindi serivise za emutiyeni.

Umugabo uhagaze, wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'umuhondo, by'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene, n'umudamu wambaye ishati y'umukara, ufite telefone mu ntoki, ubona ko bari kumuha serivise zijyanye na telefone.

Umugore uhagaze wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero irimo amabara y'umuhondo n'irindi bara rya giri ry'ikigo k'itumanaho rya emutiyene, ubona ko ahagararanye n'umusore wambaye nawe ingofero ufite telefone mu ntoki, hakaba hari n'akapa kagaragaza momo kode bishyuriraho.

Umusore wambaye umupira wamamaza ikigo cy'itumanaho cya MTN n'ingofero bijyanye, n'undi uri iruhande wambaye umupira w'umutuku n'isaha, ufite telefone n'akamvelope kariho akarese, ubona ko ari ko bishyura.

Akazu k'ubucuruzi k'ikigo k'itumanaho cya MTN gasa umuhondo, imbere yako hahagaze umugabo ubona ko yaje gusaba serivise ku mukozi ubishinzwe ukoramo.

Umusore uri kwandika mu ikayi, ubona ko ari mu kazu k'umuhondo, gatanga serivise y'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene, imbere y'iwe hakaba hahagaze umugore ubona ko ari guha serivise.

Umu ejenti w'ikigo cy'itumanaho cya MTN ari gufasha umugabo wambaye amarinete n'umupira w'umutuku, inyuma hakaba hari n'umutaka wa MTN ubona ko ari ahantu batangira serivisi za MTN.

Akazu k'ubucuruzu k'umuhondo k'ikigo cya emutiyene, harimo umukozi uri kugenda afasha abantu batandukanye, harimo abagabo batatu n'abagore babiri bari inyuma yako kazu bashaka izo serivise ko babafasha.

Akazu k'ubucuruzi k'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni ubona ko hari abantu bari hanze yako kazu bari gusaba serivise umuntu ukoramo hamwe n'undi uri kureba ku ruhande.

Akazu k'ubucuruzi k'umuhondo k'ikigo k'itumanaho cya emutiyene, harimo umuntu uri gufasha umuntu uhagaze hanze wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu, akazu kakaba kari ku muhanda, iruhande hakaba hari abantu bari kunyuramo.

Umuzungu wambaye umupira w'umukara ufite icyapa kiriho momo peyi, igaragaza umubare wo kwishyuriraho amafaranga ya farumasi yitwa farumakiwa limitedi. Uhagararanye n'abandi bantu, abakobwa babiri n'abasore babiri.

Ahantu hatangirwa serivise z'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene, ubona ko hariho ibyapa bynshi biyamamaza, harimo abantu bahagaze umwe yicaye n'ahandi ubona ko ari umugabo iruhande rw'umukozi.

Abantu babiri ubona ko bari gufashwa n'umukozi ubona ko ari ahantu hatangirwa serivise za kampani y'itumanaho, kuko ubona ko inyuma hari ibyapa byamamaza, hamwe na televiziyo iri kwamamaza irimo indege ya kajugujugu.

Abantu bane ubona ko bari gutanga serivise mu kigo cy'itumanaho cya MTN hakaba imbere yabo hari umukobwa uri imbere ubona ko yaje gusaba serivise, hakaba hariho n'icyapa cyamamaza kiriho amatelefone agiye atandukanye, hakaba handitseho "Wikisondeka!" na nimero ukandaho maganatatu na mirongo ine na gatanu kugira bagufashe.

Akazu k'umuhondo k'ikigo k'itumanaho cya Mtn kari ku muhanda ubona ko gafunze, kakaba kari ahantu hari ibiti byinshi inyuma n'imodoka iri i ruhande rwako.

Abantu bane umugabo umwe uri gutanga lisansi ku mu mumotari ubona ko umugabo ari guseka, iruhande rwe hari undi umudamu nawe wambaye umupira w'umuhondo wa emutiyeni.

Umugabo utwaye imodoka iriho icyapa cya emutiyene kigaragaza kode yo kwishyuriraho, iruhande hariho undi mugabo wambaye umupira wa emutiyene mu ibara ry'umuhondo ubona ko bari kuganira.

Abagabo babiri bambaye imipira y'umuhondo y'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene, inyuma hakaba hari umutaka w'icyo kigo cya emutiyeni, hakaba hari n'abandi bantu bari inyuma yabo bagiye batandukanye ari mu bagore, abahungu, n'abana batoya.

Akapa kagaragaza nimero y'umucuruzi bamwishyuriraho, hakaba hariho koko kode bishyuriraho ya zeru zeru gatanu cumi na gatatu. Izina ry'umucuruzi ni numa tekinoloji.

Abasore babiri bari kwishyura abamotari bakoresheje terefone ubona ko buri wese yambaye agapfukamunwa. Umusore umwe yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu undi yambaye umupira w'icyatsi n'ikabutura na kamambiri.

Akazu k'ubucuruzi k'ikigo k'itumanaho cya emutiyene, hahagazemo umugabo wambaye umupira w'umweru ku ruhande hariho n'abana bambaye amakaabutura n'umusore uri inyuma yabo.

Akazu kubucuruzi gasa umuhondo k'ikigi k'itumanaho cya MTN harimo umukozi wambaye jire ya MTN hanze hakaba hari undi umusore wambaye umupira w'umutuku n'ipantalo yerurutse ubona ko aje gushak serivise inyuma hakaba hari izindi nzu z'ubucuruzi ziri muri etaje.

Inzu y'ubucuruzi ikoreramo ikigo cy'itumanaho cya MTN, iyo nzu ikaba iri mu ibara ry'umuhondo, ubona ko ari ahantu barigutangira serivise za MTN, ubona ko bari no kwamamaza interineti yabo ya 4G wasanga ahantu hose, ubona yuko bari gucururiza muri expo.

Akazu k'umuhondo k'ikigo cy'itumanaho kitwa emutiyene, iruhande rw'ako kazu hari umuntu ufite telefone ku gutwi wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro ubona ko ako kazu gafunze nta muntu urimo.

Umuntu ufite telefone ugiye kwishyuramo amafaranga yo kwishyura, imbere hakaba hari icyapa cya MTN cyigaragaza momo kode bishyuriraho cya MTN.

Umuntu wicaye imbere yiwe hakaba hari utumashini tw'ikoranabuhanga dukoreshwa mu kwishyura, iruhande rwe hakaba hari n'akapa kagaragaza y'uko ushobora kwishyura ukoresheje emutiyene ikigo k'itumanaho.

Umuntu uri kugerageza gusikana kode yo kugirango yishyure ibintu hanyuma intoki ziwe zifashe kuri Telefone nundi muntu umuhaye asikane.

Ubutumwa buri muri telefone bugaragaza ko umuntu agiye gukora igikorwa cyo kwishyura Faburise HAKUZIMANA amafaranga igihumbi bakazakata amafaranga makumyabiri, muri serivise za emutiyeni mobayilo mani.

Akazu k'ubucuruzi ka emutiyeni kanditseho poromosiyo zigiye zitandukanye, n'umugabo n'umugore ubona ko bahagararanye bari guseka, ndikubona umwe ufite terefone undi wambaye umupira w'umuhondo wa emutiyeni.

Umudamu wambaye itaburiya y'umuhondo y'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni n'akapa kanditseho momo kode ya karindwi zeru gatandatu kane karindwi urimo uraseka wambaye n'ingofero.

Akazu k'ubucuruzi ka kampani ya emutiyene k'umuhondo hamwe n'umudamu uhaze imbere ufite amvorope ubona ko ari shaka ko bamuhamo serivise.

Akazi k'ubucuruzi k'ikigo cya'itumanaho cya MTN Kari kumuhanda ubonako bari kwamamaza uburyo ukanda kugirango wigurize kuri mokashi, kuri mobayilo Mani.

Akazu gakoze mu mbaho, ubona ko gacururizamo serivise igiye itandukanye, zirimo iza banki, hamwe n'ubundo buryo bwo kwishyura, n'izindi serivise z'irembo, harimo abantu bicayemo, ubona ko batanga serivize, n'igicua cy'amazi.

Umugabo wicaye, uri guha undi mugabo uhagaze telefoni, ubona ko ari kumufasha kumuha serivisi y'ikigo cy'itumanaho cya MTN. Iruhande rwe hari abandi bantu bicaye, ubona ko ari ahantu batangira serivisi y'icyo kigo.

Abantu bari mu iduka ry'ubucuruzi aho bakora ibikorwa byo guhaha no kwishyura. Umucuruzi uri imbere y'ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibicuruzwa, afasha abakiriya kwishyura ibicuruzwa. Hari abakiriya benshi bategereje ku murongo, bamwe bafite telefoni mu ntoki, abandi bafite ibintu baguze, byerekana igikorwa cy'ubucuruzi mu buzima bwa buri munsi.

Icyapa cyanditseho umubare wa kode y'ubucuruzi y'umuntu witwa Kiddy Shotz kode, ikaba ari zeru karindwi icyenda gatanu gatanu karindwi umunani iri mu ibara ry'umuhondo.

Umuntu wambaye umupira w'amabara umweru n'umukara, wambaye n'ipantaro y'umukara, uhagaze imbere y'akazu k'umuhondo k'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene, ubona ko ari gushaka serivise.

Akapa k'ikigo k'itumanaho cya Emutiyeni kanditseho umubare wa code wishyuriraho 600183 bigaragaza ko iyo ubikoresheje batagukata amafaranga.

Abantu bahagaze imbere y'akazu ubona ko gatanga serivise z'ikigo cy'itumanaho cya mtn, bamwe urabona ko ari abakozi ba mtn, kuko bambaye imipira yanditseho mtn n'undi utambaye umwenda.

Abantu bicaye ku mapikipiki y'ikigo kigemura cyitwa burineya fudu ubona ko bahagaze bambaye n'amakasike bose.

Amapikipiki atatau ariho ibisanduku byanditseho migoro ubona ko ari ikigo gitanga serivise zo kugemura hakaba hahagazeho n'abantu batatu ubona ko bagemuye.

Urubuga rwo kuri murandasi rucuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo amatara n'udukomo, hamwe n'akantu kariho burutusu ubona ko ari ibicuruzwa bigiye bitandukanye bacuruza.

Umumotari wambaye kasike uri ku ipikipiki uhetse igikapu cyanditseho pozo delivari, cy'ikigo kigemura gisa umuhondo na oranje ubona ko agemuye.

Umusore ukiri muto wambaye umupira w'icyatsi, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara uri ku ipikipiki y'amashanyarazi ya kampani yitwa safi igemurira abantu ibintu.

Urubuga rwo kugurishaho rwo kuri murandasi rwita mu rukari, ubonako hariho ibicuruzwa bigiye bitandukanye bacuruza by'ubwiza, haba handitseho ko batanga ibintu ahantu hagiye handukanye, kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu.

Icyapa kigaragaza y'uko hari ibicuruzwa byagiye bigabanwa igiciro bitewe n'ibyo uguze . Hagiye hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo inanasi, izindi mboga, amavuta n'ifarini.

Abamotari bari mu muhanda batwaye ipikipiki bambaye kasike ubona ko bambaye n'imipira yanditseho yegomoto n'amakasike akaba ariko yanditseho ubona ko bari kugenda mu muhanda.

urubuga rwamamaza cyangwa se rutanga serivise ya Jamani bacari ubona ko barino kwerekana aho biri, urabona ko ari ahantu hateye amabengeza hari imitaka n'ibiti, ubona ko ariho ikorera.

Urubuga rwo kuri murandasi rutanga serivise za leta, zirimo, ikemezo cy'uko uri ingaragu, kwemeza ko uri imfubyi n'ibindi bitandukanye, urwo rubuga rukaba rwitwa irembo doti gove.

Umumotari wambaye ijiri ya oranje wambaye kasiki ubona ko ari kuvana mu gikapu ibintu aje kugemura yatwaye kuri moto.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ubucuruzi bufasha abantu guhuza abahinzi hamwe n'abantu bakenera imboga n'imbuto ubona ko bari kwamamaza.

Umuntu uriho wambaye amarinete, ubona ko ari gutanga umugati urimo inyama, bita hambaga, iri kumwe n'amafiriti, ubona yuko ari iby'ikigo cyitwa Karafise, cyamamaza.

Abasore babiri, umwe uri guha undi akantu kameze nk'agakarito nk'uko ubona wambaye ijiri isa oranje n'ikasike, ubona ko amugemuriye ibintu yatumye, undi akaba yambaye agapfukanwa k'umukara n'umupira w'umutuku n'ipantaro y'umweru.

Inzu y'ubucuruzi iriho icyapa hejuru cyanditseho ihaha doti rwa, bigaragara yuko iryo duka rinakorera urubuga rwo murandasi, imbere y'iryo duka hakaba haparitse moto n'imodoka hakaba hari n'ibindi biti bibikikije.

Yerekana ko bacuruza ibikoresho birimo furigo nziza, ku gikiro cyiza, ku giciro cyiza muri Kigali. Hanagaragara ibirango by'ibicuruzwa bizwi nka samusungu, nikoni, eliji, puma na polisi. Hejuru hari na nimero y'itumanaho wabasangaho, naho hepfo handitse ko hari ibicuruzwa by'ingenzi.

Inzu y'ubucuruzi, iri mu ibara ry'icyatsi, ubona ko icuruza imbuto n'imboga, ryitwa Afurifamazi maketi, ubona ko ari isoko usangayo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Iduka ricuruza imyenda y'abagabo n'abagore, ubona ko hariho insitati yambaye imyenda. Iyo nzu ukabona ko ari igorofa, hanze hakaba hanaparitse imodoka iri mu ibara ry'ubururu.

Umusore wambaye kasike ufashe kuri kasike, hariho n'ikintu kigaragaza yuko ari kugemura ibiryo bya KFC n'imodoka ziri inyuma mu muhanda.

Urupapuro ruri kwamamaza amatike y'igitaramo cyitwa Kigali apu hakagaragara abantu bazaba bahari bagaragaza y' uko iboi biri gucururizwa k'urubuga rwo murandasi rwitwa Jimiya ku giciro kiza.

Ibicuruzwa bicururizwa kuri murandasi urubuga rukaba rwitwa aribaba ukabona ko bacuruza ibintu bigiye bitandukanye akantu ko gucururizaho ibikapu hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abantu bicaye kuri moto ziriho udusanduku twanditseho jumiya fudu, ubona ko bakora serivisi zitwara ibintu bakabigeza ku bantu babagemuriye.

Ku buryo bw'inyubako ifite izina ryanditse hejuru house of tayo hejuru y'iryo zina hari ibishushanyo cy'abantu barebana gikoze mu buryo bw'ubuhanzi, inyubako ifite igisenge gifite ishusho y'igihagararo cya kaburavati, naho imbere hari abantu bari imbere y'ibirahuri n'icyuma gifunze umuryango, inyuma irangwa n'amatara ashyira urumuri rw'umuhondo.

Umugore wishimye uri kwakira igikapu kirimo ibiribwa bitandukanye. Uwo mugore yakirijwe ibyo biribwa n'undi muntu wambaye uibikapu birimo ibiribwa nka puwavuro

Telefone iri ku ipikipiki, iriho ikarita igaragaza ahantu umuntu aherereye, ubona ko ari ahantu umuntu agiye kujya, kugira ngo imufashe atayoba.

Umumotari utwaye ipikipiki wambaye na kasike inyuma hakaba hari, igikapu cyanditseho pozo derivari bigaragara y'uko, ari ikigo kigemurira abantu basabye ko kibagemurira.

Moto iteretseho agasunduku kanditseho pozo derivari kari mu mabara y'umuhondo na oranje. Ubona ko ari moto ebyiri zitanga serivisi zo kugeza ku bakiriya ibintu bigiye bitandukanye bakenera bijyanye n'ibiribwa.

Amapikipiki atatu ariho abasore batatu ubonayuko bagemura ibintu bijyanye n'ibiryo kandi ari kapani yitwa RUSH FOOD igemura.

Urubuga rwo kuri murandasi ubona ko ruri kwamamaza ibintu bigiye bitandukanye, harimo amaguriro hamwe n'abantu benshi bafite ifatabuguzi rigiye ritandukanye.

Itangazo ryamamaza ikigo gitanga serivise zo kubaka urubuga rwo kuri murandasi rugaragaza yuko bagabanyije ibiciro muri serivise batanga zigiye zitandukanye, ku bigo by'ubucuruzi, n'abantu bakenera serivise zabo.

Urubuga rwo kuri muri andasi rw'ubucuruzi rucuruza ibintu bijyanye n'amagi hamwe n'ibijyanye n'ifunguro rya mu gitondo, hariho amagi, amakaroni bigaragara ko bagiye bacuruza ibintu bitandukanye.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo inkweto, imipira, ikanzu, amaterefone, n'utudisike, furashe disike n'amaekoteri bicururizwa ku rubuga rwo kuri murandasi rwitwa kiku.

Urubuga rucuruza kuri murandasi, rucuruza ibintu bigiye bitandukanye. Hariho umukobwa ufite akantu karimo isabune n'akandi gatasi, ubonako ari ibicuruzwa bigiye bicuruzwa kuri urwo rubuga.

Icyapa cyamamamza ikigo cy'ubucuruzi gikorera kuri murandasi kigaragaza yuko bacuruza hariho na nimero wabahamagaraho iriho na what's app.

Kwamamaza iguriro riri kuri murandasi kandi hakagaragara yuko ariho ibiciro byamanuwe kuri urwo rubuga ruri kuri murandasi abantu bashobora kwiyandikishaho.

Umukozi w'ikigo cyo kugemura cyitwa vubavuba ubona ko atwaye igare ari kugemura ibintu bijyanye n'ibyo kugemura ubona ko ahagagaze imbere y'urupangu.

Inzu y'amagorofa atatu iri mu ibara ry'umuhondo yanditseho iposita, bigaragara ko ari ikicaro k'iposta imbere y'iyo nzu hari imodoka enye n'andi mapikipiki menshi ubona ko ariho iposta ikorera.

Itangazo ryamamaza ikigo cy'ubucuruzi gikorera kuri murandasi cyitwa Kigure akadomo rwa, hakaba hariho imashini irimo ibiryo bicuruzwa mu maresitora kandi hakaba handitse ko bacuruza ibicuruzwa bitandukanye, ku bacuruzi impande n'impande, ku biciro utasanga ahandi.

Itangazo rya "airtel" ryerekana ko ushobora kugura jiga mirongo itandatu y'itumanaho rya interinete kuri telefone yawe, mugihe cy'iminsi mirongo itatu, wishyuye amafaranga y'u Rwanda ibihumbi bitanu, Byongeye iyi serivise irimo guhamagara no kohereza ubutumwa ku yindi mirongo nta mbogamizi; ikaba yerekana ikirango cya "airtel" n'umuntu ugaragara yishimye, ukoresha telefone hamwe n'ubutumwa bwa ubuntu 4G.

Urubuga rwo gukoreraho ibintu bigiye biyandukanye kuri murandasi bacuruza ibintu bigiye bitandukanye mu buryo bw'imbugankoranyambaga bisahoboka ko ubona bari kwamamaza.

Ipikipiki iriho umuntu wambaye kasike inyuma hakaba hariho agasanduku kanditsweho www.kasha.rw, ubona ko batanga ibikoresho by' isuku n' ubuzima.